Isomero ryubatse neza mu buryo bwiza kandi butuma amazi aza afite isuku, hateraniye abantu baje kuvoma harimo ab'ingeri zose abana ndetse n'abakuru. Aho bari kuvoma amazi meza afite isuku bazanye n'ibyo kuyatwaramo harimo amabasi n'amajerekani batwaramo ayo mazi bayajyana iwabo.

Abana b'abanyeshuri biganjemo abahungu n'abakobwa, I bambaye impuzankano zifite ibara rya kake, aho bari ku ivomero bari kunywa amazi bakaraba intoki bishimye kandi banezerewe ubona ko bafite isuku.

Ivomero riri ahantu habugenewe, hari umukecuru waje kuvoma amazi ubona afite isuku kandi atekanye, iruhande rwayo hateye ibidukikije byiganje mo ishyamba, aho umuntu aza akavoma amazi meza kandi afite isuku atamutera ikibazo cy'indwara.

Umugabo wirabura wicaye usa nabi ubona udaheruka gukaraba iruhande rwe hateretse imyanda wicaye kumuhanda afite n'ibicupa birimo amazi yo kunywa.

Abagore n'abagabo bateraniye hamwe, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho bari kwirinda icyabatera ihungabana ryo mu mutwe cyangwa iryo mu bwonko, bose urabona bahanze amaso, kandi bateze amatwi bari kumva ibyo baganira.

Umugabo wirabura ubona udaheruka gukaraba cyangwa ngo asokoze, ubwanwa busa nabi yambaye imyenda yacikaguritse ubona ko adafite aho haba cyangwa aho hatuye, ubuzima bumukomereye ahari asa n'urwaye mu mutwe.

Ni imbaga y'abana benshi bateraniye hamwe ubona bishimye bafite ibyo bari kuganiraho babagira inama y'ubuzima bw'ejo hazaza ubona bose bishimye kandi banezerewe bitewe n'ibyo bari kuganirizwa.

Umusaza ukuze ufite n'imvi ari kumwe n'umutegarugori ubona ko akiri mumyaka mitoya, bicaye ahantu hatuje hasa neza kandi hafite isuku, umusaza afite igikoresho ngendanwa cya telefone mu biganza bye.

Icyumba cy'inyubako nziza ikeyeye isize amabara y'umweru, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byakorewe cyangwa byifashishwa mu kuvura abarwaye indwara zitandukanye, aho byorohereza ababikoresha bagahita babona indwara byihuse.

Umugabo wirabura afite mu kiganza cye agacupa, yambaye imyambaro yererana, ikiganza kindi kiri gukanda mu mashini ari mu cyumba cyagenewe kuvurirwamo, gisa neza kandi kirimo isuku ubona gikeye.

Isambu itema ibidukikije bitandukanye, harimo ibiti bivanze n'indabo biri ahantu ha byonyine hagenewe guterwa ibidukikije.

Igiti cy'umuravumba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo ibicurane, inkorora, aho ukirya, ukagikanja ukabasha kugira ubuzima bwiza, uriye umuravumba ugufasha gukira mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Imiti yifashishwa mu kuvura gakondo, harimo tangawizi n'ibindi bibabi, hari n'agakombe karimo umuti w'amazi, hejuru hariho akayiko gasa nk'aho kari kuwudaha.